Abagore bicaye mu nzu itangirwamo ibiganiro, barimo gutanga ikiganiro ku bintu bitandukanye.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane, iruhande rwaho haparitse umumotari utegereje abagenzi bishimye cyane hari n'umuntu uri kuri telefone ndetse n'ahakorera sitidiyo.

Aha ni ku bitaro cyangwa ikigo nderabuzima. Abantu baje gushaka serivise za leta ubona batonze umurongo bamwe barimo kwishyura abandi bategereje guhaguruka nabo ngo bagerweho.

Uruzitiro rurerure cyane, hejuru hariho senyenge, ku rugi hari abagororwa bari gusakwa kugira ngo binjire. Hahagaze n'umuyobozi urimo kubasaka.

Aha ni ku cyicaro cya polisi hasa neza cyane imbere haparitse imodoka bakoresha mu kazi ndetse n'ibiti bituma umuyaga winjira.

Ingorofani itwara imyanda, hicayemo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umukara, mu muhanda hari n'undi urimo gutambuka yigendera.

Uyu ni umuhanda mugari mwiza cyane, ukikijwe n'ibiti byiza cyane mu muhanda hari imodoka zigenda zinyuranyuranamo ziri mu kazi kagiye gatandukanye.

Uyu muhanda urimo umuntu wikoreye imizigo, mu modoka itwara imizigo ndetse n'imodoka yo gutemberamo, ubona ko biri kugenda binyuranyuranaho.

Umuhanda mwiza cyane uri gucamo imodoka isize irangi ry'umweru, amapine y'umukara, yicayemo umuntu washize akaboko ku dirisha. Ndetse ukikijwe n'ibiti byiza cyane.

Iyi ni gare nziza cyane aho haparitsemo imodoka zitegereje kujyana abagenzi mu byerekezo bitandukanye.

Uyu n'umuhanda mugari mwiza, harimo imodoka, amagare na moto, iyi modoka igeze aho abanyamaguru bambukira irahagaze.

Uyu ni umuhanda mugari kandi ukikijwe n'ibiti, harimo imodoka itwaye imizigo ndetse n'abanyamaguru barimo kugenda.

Umuhanda uri gucamo imodoka ndende ifite ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, ibirahuri ni umukara, hari n'umunyonzi wambaye ipantaro y'umukara, wambaye n'ijire y'icyatsi.

Ikibuga kigari cya basikete, gisize irangi ry'icyatsi, harimo imirongo y'umweru rgabanyamo ikibugamo kabiri, ikikijwe n'ibiti byiza cyane, ndetse n'abantu bicaye munsi y'ibiti.

Uyu n'umuhanda mugari, kandi mwiza. Ukikijwe n'ibiti, ndetse n'amazu maremare. Harimo ibinyabiziga, ndetse n'abantu barimo kugenda.

Uyu ni umuhanda mugari mwiza ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibyapa, harimo n'imodoka n'abantutu mumuhanda barimo kugenda.

Iki ni icyapa kigaragaza umuhanda urimo udusozi, umuhanda utaringaniye ugiye urimo utuntu tw'udusozi.

Aha ni umudugudu mwiza cyane urimo amazu meza cyane ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi byiza bitandukanye.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane ndetse n'ikiraro, harimo umuntu uri ku igare ugiye guca munsi y'ikiraro gikikijwe n'ibiti, umuhanda ucuritse.

Uyu ni umuhanda mugari kandi mwiza cyane ucuritswe ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'ibyapa bigaragaza amerekezo harimo n'imodoka.

Uyu ni umuhanda mwiza mugari ukikijwe n'ibiti biteye ku mpande ndetse n'ibyapa bigaragaza amerekezo y'umuhanda, urimo n'amatara abasha kubonesha mu gihe cya n'ijoro.

Uyu ni umuhanda mugari kandi mwiza cyane. Ni mu masaha ya nimugoroba amatara arimo kwaka ndetse n'ibinyabiziga birikugenda.